Ahantu heza hari kugaragara neza hariho ibyatsi byiza by'umucaca bitohagiye abakobwa bambaye ingori, bakenyeye imikenyero y'umukara n'umweru barizihiwe, umwe afite mikoro arimo kuririmba, abandi barimo gukoma amashyi imbere yabo hari.

Umwironge uranditse ahantu h'umukara uri kugaragara neza, ukozwe mu mugano, wifashishwa n'abasaza mu kuririmba, ukumva injyana imeze neza, kandi ukunda gufasha abantu mu kuruhuka.

Umuyoboro mwiza wubatse neza muburyo bugiye hejuru, w'umuriro w'amashanyarazi wambukiranyije ahantu ku gasozi mu mumago, hariho ibyatsi byinshi ndetse n'amazu menshi biri kugaragara neza.

Ahantu hari amabuye y'igaraviyo, abagabo benshi, harimo abambaye amajiri arimo ibara ry'umuhondo ndetse n'ingofero, bari gutunganya insinga kugira ngo babashe kuzicomekeranya zitange umuriro w'amashanyarazi.

Umugore ufite imisatsi, yambaye kasike y'umweru ndetse yambaye n'itaburiya ya kotonni arimo gukanda mubazi kugira ngo arebe ko umuriro wmashanyarazi wagezemo ku gikuta, cyubakishije amatafari ndetse na sima.

Ahantu heza hubakiye neza hahurijwe insinga nziza, zitwara umuriro w'amashanyarazi harimo, ibyuma bigufi ndetse n'ibirebire hino hari ibyatsi byiza bitohagiye biri kugaragara neza.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, hagati y'uwufitemo umurongo w'umweru, kuruhande urubakiwe mu mabara y'umweru n'umukara, uri kugaragara neza uciye ahantu hakurya yaho hari ishyamba ririmo ibiti byiza biri kugaragara neza.

Icyapa kinini cyane cyambukiranyije umuhanda, umusaza wambaye ikoti ry'umukara n'ikoboyi urimo gutambuka, abantu babiri barimo kugenda, umwe ni umusore yambaye agapira k'umutuku n'ikabutura, hirya yabo hari inyubako nziza ziri kugaragara neza.

Umuhanda w'igitaka werekeza ku nzu ziteganye zubatse neza, zisakaje amabati y'icyatsi, zubakishije amatafari, inyuma yazo hari ishyamba rinini cyane ririmo ibiti'i byakuze by'inganzamarumbo.

Agahanda k'igitaka gaciye mu rutoki rwinshi cyane rurimo ibitoki byeze ndetse n'ibiteze, abagabo bahagaze barimo kuganira harimo abapolisi ndetse iruhande hahagaze undi mugabo uri kuvuga.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe hubatse neza hasakaje amabati meza y'ubururu bahagaze nko hejuru hasi hari inkingi z'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi.

Icyapa giteye ku giti kiza k'inganzamarumbu cya sipuli kiri ku gahanda k'igitaka, hirya hari uruzitiro rw'indabo z'umuhondo ndetse n'inzu isakaje amabati y'umutuku iri kugaragara neza.

Abantu benshi bicaye mu ihema ryubatse rifite ibara ry'icyatsi, umuhondo n'ubururu, higanjemo abagabo n'abagore, Abapolisi n'Abasirikare, Umupolisi umwe ahagaze imbere yazamuye ikiganza.

Igiti cya avoka gitohagiye kiri kugaragara neza, munsicyo hahagaze umusirikare wambaye impuzankano, hino ye hicaye umugabo wambaye ishati nziza ndetse n'ingofero y'umukara urimo guseka, hirya yabo hari ibyatsi byiza bitohagiye.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe higanjemo abagabo n'urubyiruko, urutoki rwinshi ruteye ahantu hamwe, rufite ibitoki byeze n'ibiteze, inzu zegeranye zubatse neza zifite inzugi, zifite ibara ry'icyatsi.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe barishimye cyane; bamwe baricaye, abandi barahagaze inyuma yabo, hubatse ihema rifite ibara ry'icyatsi n'umuhondo. Hahagaze umupolisi wambaye impuzankano ya gipolisi ndetse n'ijire ririmo amabara y'umuhondo afashe mikoro mu biganza arimo kuvuga.

Umuhanda mwiza w'umukara uri kugaragara neza wubakiye neza imodoka, nziza y'umweru ya polisi inyuma yayo hahagaze abantu benshi barimo kuganira, amatara arimo kwaka burije.

Amakipe ahagaze mu kibuga ari kwifotoza, higanjemo ayambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'ubururu, barishimye cyane, bamwe barunamye abandi barahagaze bafashe ku ntugu za bagenzi babo, barimo guseka ndetse n'akanyamuneza ni kose.

Abana batatu b'abasore bari gukina agapira mu muhanda w'igitaka, umwe yakuruye undi akaboko, undi arahagaze, arimo kubasatira, hirya yabo hari ikibara kirimo ibyatsi byiza bitohagiye, biri kugaragara neza.

Abakinnyi bari kwiruka ahantu mu gacaca h'igitaka bambaye impuzankano y'ubururu, mu gatuza harimo uturo tw'ibara ry'icyatsi. Barishimye cyane barizihiwe umwe ari inyuma yabo bamusize.